Abahinzi b'umuceri bakaba bari kugenda mu murima wabo, aho bari kugenda bafite amapombo bayahetse bakajya baragenda batera umuti umuceri kugira ngo udafatwa n'uburwayi runaka.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku. Akaba ahetse ipombo mu mugongo, ari kugenda mu murima yahinzemo imboga, agenda azuhira kugira ngo zimererwe neza zitazicwa n'izuba.

Ubuhinzi bw'umuceri butanga umusaruro utubutse ariko biba byiza kurushaho iyo ubwitayeho hanyuma umuceri wawe ukazajya uwutera imiti iwurinda udukoko tuza tukawujyaho tukawangiriza.

Umushinga w'ubuhinzi wateye imbere cyane mu Rwanda aho haje ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa aho umuntu aba yahinga imyaka ye mu mpeshyi hanyuma izuba ryava akayuhira kugira ngo iticwa n'izuba.

Umuntu wambaye udupfukantoki two mu mabara agiye atandukanye akaba afite agacupa kari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo aho ako gacupa kaba karimo umuti wifashishwa mu kuhira indabo kugira ngo bazirinde udukoko.

Ubuhinzi bw'amashu bukomeje gutera imbere cyane kuko iyo uyahinze ukayitaho ndetse no mu zuba ukagenda uyavomera, uyatera n'umuti, bituma akura neza, hanyuma nawe wayahinze, akaguha umusaruro.

Inyubako nziza cyane ipanzwemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'imiti aho igihe cyose ubikeneye unyarukira muri iyi nyubako bakabiguha hanyuma ukita ku buhinzi bwawe.

Uburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere ariko si byiza cyane kujya kuroba amafi akiri matoya kuko bitubya umusaruro wari kuzava mu mafi, ni byiza cyane kuroba amafi igihe tubona ko akuze.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari ahantu mu cyuzi bigaragara ko bashaka kuroba, bafite ibikoresho kabuhariwe mu kuroba bizwi nk'inshundura, bari kubishyira mu mazi kugira ngo bajye gukanga amafi ubundi babone uko bayaroba.

Abantu benshi cyane bazwi nk'abarobyi bakaba bari mu byuzi bigiye bitandukanye bakoze, bakaba bafite ibikoresho byabugenewe bifashisha bari kuroba aho bagenda bakoza mu mazi hakazamukaho amafi.

Ahantu mu gishanga aho harimo icyuzi cyororerwamo amafi, hakaba hari ibyuzi bibiri bitandukanyijwe n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi ku buryo iyo ushaka amafi uza ukaroba muno.

Umugabo wambaye agapira gasa umuhondo, akaba ateruye ibase irimo amafi. Bigaragara ko amaze kuroba none akaba ajyanye amafi ye, agiye kuyateka ndetse no kuyagurisha.

Umwuga w'ubuhinzi ukomeje gutera imbere cyane aho utakigenda wonyine ugendana n'ubworozi ndetse bw'amafi aho haba hari ibyuzi abantu bakagenda bororeramo amafi ndetse n'ayo mazi bakayifashisha bari kuhira.

Mu gishanga haba harimo ibyuzi biba birimo amazi menshi cyane, aho abantu bororeramo amafi bakagenda bashyiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye amafi arya hanyuma bakazajya bajya kuyaroba.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye yorora amafi ku giti ke akayororera iwe maze akazajya agenda amuha umusaruro waba uw'amafaranga ndetse n'amafunguro.

Abahinzi b'umuceri benshi cyane aho bahuriye hamwe mu isambu y'umuceri bakaba bari kugenda bawusarura, uko bigaragara ni benshi kandi ni abagore. Umuceri rero uhingwa ahantu mu gishanga.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere ,aho abahinzi basigaye bahinga imboga zizwi nka dodo, hanyuma bakazitaho bakazuhira, zamara gukura bakazijyana ku isoko bakazigurisha, zikabaha umusaruro.

Umuceri uteye ahantu mu gishanga, ukaba waratangiye kuma bigaragara ko igihe cyo kuwusarura kigeze, ubuhinzi bw'umuceri ni ingirakamaro cyane mu Rwanda kuko tubasha kuwubona utaduhenze.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu mu Rwanda k'ingirakamaro cyane kuko umuhinzi wayo imuteza imbere cyane mu minsi mike agasezera ubukene, nawe rero nakugira inama yo guhinga ikawa kuko ni ingirakamaro.

Umugore uri mu murima w'icyayi aho ari kugenda yita ku bihingwa bye, icyayi rero ni kimwe mu bihingwa bizana amafaranga menshi cyane kuko uko iminsi igenda ishira kigenda gitanga amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho umuntu asigaye ahinga ikawa hanyuma akayitaho, ikawa rero iyo imaze gukura itangira kuzana imbuto, izi mbuto rero bigera igihe zigatukura akazigurisha.

Abantu b'abagore bigaragara ko ari abahinzi b'ikawa bakaba bamaze gusarura ikawa bayishyize hamwe mu gatanda kabugenewe, bari kugenda bayitoranya ngo barebe ko nta kibazo ifite ubundi bayigurishe.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibihingwa bizana amafaranga byinshi cyane, aho ibihingwa bizwi nk'uburo babyigamo umusururu ndetse bakabigurisha bikabaha amafaranga.

Igishanga giteyemo umuceri aho uyu muceri ugiye uhinzemo ndetse ukaba urimo amazi menshi cyane, ku ruhande hari abantu bagera kuri batatu bigaragara ko bari mu kazi kabo ka buri munsi aho harimo abagabo babiri bambaye iby'umweruru n'undi umwe wambaye ak'umuhondo.

Amacupa menshi agiye atandukanye arambitse ahantu hamwe ari mu mabara agiye atandukanye harimo umuhondo ndetse n'umweru, amwe afite imipfundikizo y'umweru andi n'imituku, bigaragara ko harimo imiti y'amatungo.

Ahantu bacuruza imiti ijyanye n'amatungo, aho iri mu tuvido tugiye dutandukanye, aho buri kavido kaba gashushanyijeho ubwoko bw'umuti ndetse n'ubwoko bw'inyamaswa, uwo muti uvura.

Inyubako nini cyane irimo icyumba kiba kirimo uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse iyo tugiye turiho ibyapa byanditseho utugambo dutoya, aya macupa akaba arimo imiti y'amatungo.

Intebe iri mu mabara y'umweru hakaba harambitseho icupa ripfunyitse mu ishashi, iri cupa rikaba ririmo umuti uvura amatungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye ziyafata.

Amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura inyamaswa aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kuko ivura inyamaswa amoko agiye atandukanye y'indwara zikunze kuba zirwaye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho hashashemo n'amakaro hasi, harambitse n'udushashi turimo amoko agiye atandukanye y'imiti bifashisha bari kuvura amatungo.

Amoko agiye atandukanye y'udukarito ndetse n'uducupa, aho hariho ibyapa bigaragaza buri kintu kigiye kirimo. Ibi rero bikaba byifashishwa kugira ngo hite ku buzima bw'amatungo.

Amoko agiye atandukanye y'amacupa yaba amanini ndetse n'amato akaba arimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa indwara nyinshi zigiye zitandukanye zizifata.

Umuntu wambaye agashati k'umweru ndetse akaba ari mu murima we w'amasaka, aho ari kugenda areba ko amasaka ye azatanga umusaruro ndetse agenda areba n'acucitse kugira ngo ayicire.

Abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi akaba ari abantu b'igitsina gore, aho bari kugenda bahinga isambu yabo kugira ngo barebe ko igihembwe k'ihinga cyagera maze bakagendana n'abandeye.

Ahantu mu gishanga aho bahinga umuceri harimo umuceri ukiri muto none umugabo akaba ari kugendamo agenda abagarira uwo muceri kugira ngo awuvangure n'ibyatsi uzabashe kwera neza.

Abantu bagera muri babiri, harimo umugabo ndetse n'umugore, bakaba bari mu murima wabo w'ibigori, aho bari kugenda batemberamo kugira ngo barebe ko ibigori byabo, biri gukura neza cyangwa byarumbye.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umusore aho batereye amasuka ku rutugu bigaragara ko bavuye mu murima guhinga, bakaba bafite amasuka azwi mu bwoko bw'ingembe.

Abagore bateraniye hamwe mu murima w'ibishyimbo, aho bari kugenda babibagara kugira ngo bizakure bimeze neza, ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ingirakamaro cyane kuko ibishyimbo, ni kimwe mu bihingwa bikenera buri gihe.

Guhinga ibiti ni ingirakamaro cyane kuko Leta y'u Rwanda itubwira ko kugira ngo tugire ubuzima bwiza bufite umwuka uhagije tugomba gutera ibiti kugira ngo tubungabunge ibidukikije.

Ubuhinzi bw'ibihaza ni bumwe mu buhinzi busigaye bwarateye imbere cyane aho umuturage wo mu cyaro abasha guhinga inzuzi hanyuma zakwera akaba yasarura ibihaza akajya kubigurisha.

Ahantu mu gishanga hakunze guhingwa ibihingwa bizwi nk'umuceri, umuceri rero ni igihingwa k'ingirakamaro cyane mu Rwanda kuko ifunguro rya buri munsi ahantu mu mujyi hagomba kuba hariho umuceri.

Ibirayi ni bimwe mu bihingwa bizana amafaranga cyane kuko umuhinzi wabyo iyo yabisaruye abijyana ku isoko bakabimugurira kandi biba bihenze kuko ikiro kigura magana atanu.

Ubuhinzi bw'ibigori na bwo ni ingirakamaro cyane, ibigori babihinga bikiri bito byamara gukura bikagenda birushaho kuba binini kugeza ubwo bitanze umusaruro hanyuma umuhinzi wabyo akabigurisha.

Umurima uteyemo ibihingwa bizwi nk'ibigori ariko bikaba bitareze neza kuko ubona bidashamaje, ubu buhinzi bw'ibigori rero ni ingirakamaro cyane kuko umuntu wabihinze bimuteza imbere agasezera ku bukene.

Hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gikorwa runaka aho ibi bikoresho aba ari ingirakamaro cyane, ibi bikoresho biri mu mabara agiye atandukanye, ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Hari amoko menshi agiye atandukanye aba ateye ahantu mu murima, ayangaya rero akaba ari amoko y'ikawa ikiriri ntoya ndetse n'imigozi y'ibijumba, aho yifashishwa cyane.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho hari ibimerarere bizana amafaranga, bizwi nk'ikawa ndetse n'icyayi, aha rero nta na kimwe kirimo kuko bigaragara ko ahubwo hamaze gusarurwa ibitunguru.

Hari amoko agiye atandukanye y'imboga hari izizwi nk'isombe, isombe ni ingirakamaro cyane kuko mu Rwanda zifashishwa mu kurandura imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu.

Indobo zigera muri eshatu zipanzemo ibirayi ndetse ku ruhande hakaba hagiye hasutse ibindi birayi biragaragara ko bari kwerekana ko ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere aho biri kugurishwa ikiro kimwe amafaranga magana ane.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, biba bigiye bitanditse ku murongo aho ugenda ukavuga ibyo ushaka bakagupimira bakabiguha, nakugira inama yo kunyarukira ku isoko igihe cyose ubikeneye.

Ahantu hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibiti rero ni ingirakamaro kuko bituzanira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikabasha no gukurura imvura.

Umurima uteyemo ibigori ariko bikaba bigaragara ko ibigori bigeze igihe cyo kwera kuko byumije amababi, umurima rero urimo ibyatsi byinshi biragaragara ko batigeze bawubagara.

Hari amoko agiye atandukanye y'imbuto umuntu ashobora kuba yarya zikamugirira akamaro cyane. Harimo kandi n'imboga ari zo nka karoti, intoryi, ibitunguru ndetse n'imiteja.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto aho umuntu ashobora kuzirya zikamugirira akamaro cyane, harimo indimu, amaronji, amapera, pome ndetse n'izindi zitandukanye.

Igisambu kirimo ahantu hagari cyane ndetse hagaragara neza aho harimo igishanga ndetse harimo n'imisozi igiye itandukanye iteyeho amoko menshi y'ibimera bizwi nk'ibiti.

Ishyamba ririmo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, hari ibyimejeje ndetse n'ibiterano, ibi biti rero ni ingirakamaro kuko bituzanira umwuka mwiza, uyu nguyu dukunze guhumeka.

Ahantu hari udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, yaba ibiti bya kimeza ndetse n'ibyatewe ndetse hakaba hari n'ikirere kiza cyane kiri mu mabara y'umweru.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti hakaba hubatswemo n'akazu gasakaje amabati y'icyatsi, ishyamba rero ni ingirakamaro cyane kuko ridukururira uyu mwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba rinini cyane ririmo amoko agiye atandukanye y'ibimera, ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi. Hagati yaryo mu mubande hakaba haciyemo umugezi uri kumena amazi menshi agiye atandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'abandi benshi cyane bateraniye hamwe ahantu mu ishyamba higanjemo abasirikari bakaba bari gukora igikorwa cy'umuganda aho bari kugenda bakupakupa ibi byatsi.

Inka nziza cyane za kijyambere, aho zambaye mu buryo bw'umuco gakondo, ku buryo ari za nka bajyaga bakoresha mu bukwe, bari gusaba no gukwa, aho zabaga ari Inyambo, zifite amahembe ateze gutya.

Ishyamba rya kimeza ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti, yaba bigufi ndetse n'ibirebire. Harimo bimwe byumye biri iruhande rw'amazi kuko n'amashusho yabyo ari kugaragara mu mazi.

Ahantu harambutse cyane hari amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ndetse hakaba ari kugaragaramo n'ibicu biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari ibiti byiza cyane bizana umuyaga n'amahumbezi.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti rero ni ingirakamaro cyane kuko bituma tugira ubuzima bwiza bikadufasha kubona imvura ndetse n'umwuka mwiza uyu duhumeka.

Ubutaka bwagenewe guhingwaho ndetse no guterwamo amashyamba hakaba hagiye hateyemo ibiti bikiri bitoya ndetse n'ibindi byinshi binini ariko ahanini muri ho habereye aho ni ku butaka.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho harimo inturuzi ndetse n'ibindi byitwa imisederi, ibi biti rero ni ingirakamaro cyane kuko bidukururira imvura tukabona n'umwuka mwiza duhumeka.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu muhanda higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bikaba bigaragara ko bagiye mu gikorwa runaka cyo gusora ishyamba ngo barebe ko nta kibazo rifite.

Abantu b'abagabo bagera muri babiri bari mu gikorwa cy'ubuhinzi bari guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye bizana amafaranga, aho bagenda babitera ku mironko bakoresheje ibipimo bizwi nk'amakamba.

Voka zigera muri cumi n'ebyiri zikaba ziri ahantu mu gakarito bigaragara ko izi voka zigiye kugurishwa, rero voka ni zimwe mu mbuto ziba zifite amavuta yongera vitamine D mu rutirigongo no mu misokoro.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abagore aho bose ari abahinzi bakaba bafashe urubuto rw'inanasi mu ntoki bigaragaza ko bari kwerekana inanasi basaruye ukuntu ari nini, uko bigaragara barishimye cyane.

Amoko agiye atandukanye y'imboga zikunze kwifashishwa mu ifunguro rya buri munsi maze akagira akamaro, haba harimo karoti, ibitunguru, amashu, sereri ndetse na puwavuro.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, aho ahetse indobo y'umukara ari mu murima we, aho ari kugenda asoroma imbuto ziri mu mabara y'umutuku bigaragara ko zeze azishyira muri iki gikoresho.

Umugezi w'Akagera ufite uruzitiro rwiza ruwukikije ruri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Hakurya yawo hari igifunzo ndetse n'ishyamba rinini n'imisozi myiza cyane.

Ahantu mu gishanga hateyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera hakaba haraje ikoranabuhanga aho ibyo bimera babasha kubyuhira bakoresheje imipira yabugenewe ndetse ikikoresha nta muntu uhari.

Umugore wambaye ishati bigaragara ko ari mu kigero cy'ubukecuru. Ari kugendera avomera imyaka ye yateye, aho ari kugenda ayuhira kugira ngo iticwa n'izuba maze ikarumba.

Abantu benshi biganjemo abahinzi ndetse n'abize ibijyanye n'ubuhinzi, bambaye amataburiya y'imyeru, aho bari kugenda mu muhanda, bigaragara ko hari ahantu runaka hamwe, bashobora kuba bagiye.

Ubu ngubu iterambere ryaraje hakoreshejwe uburyo bw'imirasire y'izuba basigaye buhira imyaka bitabasabye imbaraga, aho izuba rikubita kuri iyi mirasire hanyuma amazi agatangira kujya agenda yuhira imyaka.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, byiza cyane ku buryo ibi biti ari ingirakamaro, aho bikurura umwuka mwiza duhumeka ndetse bikanakurura imvura kugira ngo ubutaka buhehere.

Imisozi myinshi igiye itandukanye akaba ari imwe mu misozi iranga igihumbi igize u Rwanda, aho hari kugaragaramo inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umweru ndetse n'igishanga mu mubande.

Umuhanda w'igitaka unyuze ahantu hagati mu ishyamba, aho ukikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye yaba ibyatsi kimeza ndetse n'ibyatsi by'ibiterano, aho uyu muhanda ari mwiza cyane.

Ahantu haramburutse hari amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane, hari kugaragaramo imisozi myinshi cyane, amoko y'amazu ndetse n'ibicu biri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Amagare aparitse ahantu bigaragara ko ari ahantu ku mugezi baje kuvoma bifashishije aya magare, ba nyirayo ntabahari. Hakurya hari kugaragara udusozi twiza cyane duciyeho amaterasi y'indinganire.

Ubworozi bw'inka busigaye bwarateye imbere cyane aho basigaye bazubakira ibiraro bakoresheje ibyuma kugira ngo zitazabasha kubisenya zikajya hanze zikagira ibyo zangiza.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane aho aborozi b'ingurube basigaye bazishakira ibyo kurya byiza hanyuma bakazigaburira nazo zigakura hanyuma bazigurisha zikabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane aho Leta y'u Rwanda idushishikariza korora inkoko kuri buri muryango kugira ngo tubashe kwihaza ku bikomoka ku matungo ndetse turwanye n'imirire mibi.

Ubworozi bw'inka za kizungu ni bumwe mu bworozi bwateye imbere ndetse buteza imbere n'aborozi babwo kuko izi nka zikamwa amata menshi nibura nka litero cumi n'eshanu ku munsi.

Inka iri ahantu ikaba ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru ndetse ifite n'amaherena ku matwi, iyi nka rero ni imwe mu nka za kijyambere zitanga umukamo utubutse, bityo umwozi wayo agakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'inkoko za kizungu bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye azigura akazorora, akagenda azigaburira noneho mu minsi mike zamara gukura zigatangira kumuha umusaruro nawe akiteza imbere.

Inka ziri ahantu mu kiraro, zikaba ari inka za kijyambere, aho haryamyemo akanyayana gatoya kari mu mabara y'umweru n'umukara, nyina iri kugenda ikarigata na yo iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane kuko ubu ngubu abantu basigaye bororera inka iwabo mu rugo, bakazahirira aho kugira ngo birirwe barazibungana ku misozi bari kuziragira. Ibi rero ni ingirakamaro cyane.

Ihene ziri ahantu mu gisambu, aho izi hene ziri mu mabara agiye atandukanye, y'umweru ndetse n'amabara y'umutamu, izi hene rero bakaba baziragiye kugira ngo zibashe kubona icyo zirya.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye yorora inkoko akazigaburira mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga kugira ngo zitaza gusesagura ibyo ziri kurya.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane aho aborozi bazo basigaye bazitaho bitabagoye hanyuma na zo zikabaha umusaruro, inkokokazi ziratera hanyuma insake bakazigurisha.

Ubworozi bw'inka burafasha cyane kuko iyo umworozi yoroye inka akabona irabyaye yicinya icyara kubera ko aba abonye amafaranga menshi ndetse akaba agiye no kubona amata azafasha abana be kwirinda indwara ya bwaki.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako yororerwamo amatungo y'inka, ibiraro byazo bikaba biba byubatswe mu byuma, aha ngaha bikaba byerekana ubworozi ko bwateye imbere.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane aho umuntu asigaye agura ingurube akayishyira mu kiraro hanyuma akazajya agenda ayitaho yamara kubyara cyangwa gukura akayigurisha ikamuha umusaruro w'amafaranga.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane aho buri Murenge uba ufite ubuhunikiro aho haba hari ahantu babika imbuto nk'aha rero harimo imbuto ziri mu mifuka igiye itandukanye zipanze ahantu hamwe ku gikuta.

Amahundo menshi y'ibigori aho arambitse ahantu hamwe, ibi bigori rero bikaba ari ingirakamaro cyane kuko bivamo amoko menshi agiye atandukanye y'amafunguro ndetse n'amafu.

Igikoresho kizwi nka mubazi, kiba gishushanyije ku gacupa, kaba karimo amoko agiye atandukanye, y'umuti wifashisha utera cyangwa winaza, amoko agiye atandukanye y'ibimera.

Udufuka tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'imihondo, utu dufuka rero tukaba turimo imbuto zigiye zitandukanye bifashisha mu gihe k'ihinga, aho umuntu aza akazigura akajya kuzitera hanyuma zikamugirira akamaro.

Imyaka myinshi igiye itandukanye aho igiye iririmo udukiza tugera muri turindwi, ikaba ifite amabara agiye atandukanye harimo imwe isa umukara n'umweru, isa umuhondo, isa umutuku n'iyindi.

Abaganga benshi biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakaba bateraniye hamwe aho bari kugenda biga uburyo ki bashobora kuvura itungo rikaba ryamererwa neza rigakira.

Umugabo wambaye igisarubeti gisa ubururu akaba ari veterineri. Ari kugenda imbere y'ikiraro k'inka kirimo amatungo menshi, aho ari kuyitegereza kugira ngo arebe ko ameze neza.

Abantu babiri b'abaveterineri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu, aho bafite telefoni mu ntoki bari kugenda bareba uburyo bugezweho bwo kuvura amatungo bitabagoye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ndetse na bote z'umweru n'ingofero z'umweru akaba ari veterineri, ari imbere y'inka ku kiraro aho ari kugenda ayisuzuma ngo arebe niba nta kibazo runaka yaba ifite.

Umuntu wambaye igisarubeti gisa ubururu bikaba bigaragara ko ari veterineri, akaba ari kugenda anyura imbere ya buri kiraro k'inka areba ko zorowe neza nta kibazo zifite.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu, akaba ari kurebera mu gikoresho k'ikoranabuhanga cyabugezweho kitwa mikorosikopi, aho aba ari gusuzuma ngo arebe indwara runaka ikintu kiba gifite.

Abaganga bari kugenda bita ku murwayi, aho bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa, bambaye udupfukantoki, aho umwe yambaye itoroshi ku gahanga kugirango abashe kujya arabona neza.

Umuveterineri wize ibijyanye n'ubworozi bw'amatungo, bakaba bamuhamagaje none yagiye kureba ikibazo iyi nka y'uyu muntu ifite. Ahagaze imbere yayo ari kuyitegereza kugira ngo arebe uko imerewe.

Gurudu ni igikoresho k'ingirakamaro cyane aho abantu bayifashisha bari kuyitwaramo ibyo kunywa bigiye bitandukanye nk'amazi, ji, igikoma, icyayi ndetse n'ikawa.

Abantu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'imyeru ndetse n'ubururu bigaragara ko ari abaveterineri, bari imbere y'ikiraro cy'inka aho bari kugenda bareba imyororere y'izi nka bakareba niba nta kibazo zaba zifite.

Mu rwego rwo kwita amatungo ni byiza ko buri mezi atatu umworozi w'itungo yazajya atumaho ababyigiye bazwi nk'abaveterineri bakaza gusuzuma amatungo ye ngo barebe ko nta kibazo yaba afite kugira ngo bayavure.

Umuveterineri wabyigiye yambaye itaburiya y'umweru. Ari kugenda azenguruka ku biraro by'inka, areba ko inka zimeze neza ndetse izo asanze ameze neza akazireka, agakomeza ajya ku zindi.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho turi kubona impara n'imparage, ziri mu mukenke, ziri kwitegereza abakerarugendo baje kuzisura.

Amazi ari ahantu mu gishanga aho hari ibiguruka bizwi nk'ibishuhe bijya kumera nk'imbata biri kugenda byinjira muri ayo mazi inyuma yabyo hari ibyatsi byiza bifite uturabo tw'iroze.

Imvubu ni imwe mu nyamaswa ziba mu mazi ariko hari igihe kimwe na kimwe ziva mu mazi hanyuma zikajya komera abaturage ndetse zikajya ziranyura n'ahantu mu muceri zikangiza imyaka yabo.

Amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ziba mu mazi cyane cyane izizwi nk'ibishuhe. Zikaba zihagaze ahantu, zifite amaguru meza cyane atukura. Ziba zijya kumera nk'inyamaswa yitwa imbata.

Inzovu ni zo nyamaswa zibaho nini ku Isi aho izi nzovu ziba zikozwe mu buryo bw'amayobera, ziba zifite umutonzi aho zigenda zikawukoza mu mazi zikaba zavoma amazi menshi hanyuma zikazajya zigenda ziyanywa uko zishatse ndetse zanayabitsemo.

Inka nyinshi ziteraniye hamwe ahantu mu gisambu bigaragara ko ari mu cyanya cyagenewe kororeramo inyamaswa, hari akandi kanyayamaswa k'agakende kari kugaragara aho kari kwitegereza izo nka.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'akagera haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye hari izizwi nk'udusumbashyamba, izi ngizi ziba ari ndende cyane ku buryo zabasha kurisha mu bushorishori bw'igiti ihagaze hasi itavuye aho iri.